Akabati kari mu iduka ricuruza inkweto izi nkweto zirimo amabara atandukanye umweru, umukara, icyatsi, ubururu n'umuhondo.

Iduka ririmo utubati turiteretsemo amakarito y'amata, n'amazi, n'indobo y'amandazi n'ibirahuri, n' amatasi, n'amasahani y'umweru, n'amatasi y'umweru, n'ameza y'umweru.

Abantu benshi abicaye n'abahagaze, bambaye imipira y'ubururu n'iy'umweru n'ameza ariho amacupa y'amazi n'ibitabo.

Iduka rinini ry'ubucuruzi ririmo abagore n'abagabo n'imyenda yiganjemo amabara menshi umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibara ry'icyatsi rifite icyapa kiriho imbuto imbuga.

Icyumba gisize amarangi kirimo igitanda n'amarido y'umweru n'umukara, kishyurwa amadolari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi, giherereye mu mujyi wa Kigali-Kabeza.